Ubuzima bukwiye guhagurukirwa bukitabwaho ku isi yose, ndetse ababifite mu nshingano, ni yo mpamvu umunsi ku munsi bagenda bakangurira abaturage kwita ku buzima bwabo birinda indwara ndetse bagira n'isuku.

Umwana mutoya ari gusukira amazi mugenzi we ku ntoki akoresheje igikombe, ukaba ubona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije kuba aba bana batoya baratojwe gukaraba n'amazi meza n'isabune kugira ngo hirindwe indwara nyinshi zitandukanye.

Umuntu bigaragara ko ari umukobwa, ari kuvoma amazi gusa ari kuyavoma mu mugezi utemba bikaba, bigaragara ko ari ahantu mu giturage hataragera amazi meza, birakwiye ko leta y'u Rwanda yongera gutekereza ku baturage bo mu cyaro, na bo ikabaha amazi meza.

Amazi, isuku n'isukura, icyo ni ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe gutanga amazi ku baturage ndetse akaba ari ibintu byiza cyane kuko cyafashije abaturage kubona amazi meza hirya no hino mu Rwanda.

Ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku buzima, kikaba ari ikirangantego gifite ibara ry'icyatsi kibisi, kikagira n'ibara ry'ubururu, kikaba kirimo umubumbe w'isi.

Biragaragara ko igihe cyose umwana afite ikibazo, agomba kuzanwa kwa muganga ariko akazanwa n'ababyeyi bombi kugira ngo bagirwe inama bose bari hamwe, yaba ari umugabo cyangwa umugore kuko bose bafite inshingano zo kwita ku mwana.

Mu binyacumi by'imyaka ishize, hari hari icyuho muri serivise z'ubuzima zahabwaga abagore ndetse n'abana bavuka, gusa muri iki gihe byahawe umurongo ku buryo bitabwaho ndetse bagahabwa serivisi zitandukanye baba bakeneye.

Itsinda rigari ry'abantu babari mu nama bakaba ari abaganga, bakaba bari barimo biga ku ngingo zitandukanye.

Umwana w'umukobwa ateze intoki ku mugezi, agiye kunywa amazi bisa nkaho ari ahantu ku ishuri, iruhande rwe imbere gatoya hari igikoresho cyagenewe gushyirwamo imyanda.

Abantu babiri, bari kuri robine cyangwa se ku ivomero rusange, bari kuvoma amazi meza, umwe ni umugore witandiye igitambaro k'iroze, undi ni umugabo, bari kuvomera icyarimwe kuko robine ifite imigezi ibiri.

Urwego rw'isi yose rukwiye kugira uruhare mu gufata iya mbere, barwanya indwara z'ibyorezo ndetse bagafatanyiriza hamwe kugira ngo barebere hamwe uburyo bateza imbere inzego z'ubuzima ndetse na serivisi zitandukanye zishingiye ku buzima.

Umuntu bigaragara ko arimo gukaraba amazi, ayo mazi akaba ari kuva mu ihombo rinini, ubona ko riri ahantu mu kabande. Aya mazi ushobora kuyakaraba ariko uyanyweye warwara kuko ntabwo atunganyijwe neza.

Hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, wasangaga bigoye kubona amazi meza kugeza n'ubwo bamwe babonaga amazi ari uko bagiye ku ivomero rya rindi risaba imbaraga kugira ngo amazi aze. Aho umwe ajya inyuma agapomba ariko ubu hirya no hino hari amavomero rusange yoroheje.

Umwana ari kuvoma amazi kuri robine, ari kuyavomera mu ijerekani, ijerekani z'umuhondo ni ijerekane eshatu, bigaragara ko yaje kuzitega kugira ngo bakuru be baze gusanga zuzuye.

Abantu bigaragara ko ari abaganga, bakaba bifotoreje imbere y'igitambaro kinini, cyanditseho amagambo ndetse ayo magambo akaba ari ay'Icyongereza bigaragara ko bari bari mu nama yitaga ku buzima.

Umuganga ari gutera urushinge umuntu bigaragara ko ari umupapa ukuze ndetse bikaba ari ibintu bisa neza kuba n'abantu bakuze bumva neza agaciro ko kwiteresha urukingo runaka bitewe n'icyo bagiye kubakingira.

Mu Rwanda abaturage ndetse n'abayobozi bafatikanyiriza hamwe, hanyuma bakagira inama ababyeyi, uburyo bashobora kwita ku bana babo mu minsi igihumbi ya mbere ndetse nyuma yayo bagakomeza kubakurikirana, babigisha uburyo babagaburira indyo yuzuye.

Abantu bigaragara ko bari mu nama, bakaba bicaye imbere ari abagabo bakomeye b'abayobozi bambaye amakote ndetse bigaragara ko imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yo kunywa n'ibitabo biri iruhande bagenda basoma.

Umwana ari kuvoma amazi ndetse ari kuyavomera mu ijerekani y'umuhondo, hirya hari umubyeyi wegamye ku gikuta cya robine ndetse iyo robine yanditseho umubare kabiri, ndetse inyuma y'abo bantu mvuze babiri umwana n'umumama, hari abandi bantu benshi bategereje kuvoma.

Umugore wambaye igitenge, ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ndetse bigaragara ko avuye mu bwiherero ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane ko igihe cyose tuvuye mu bwiherero, dukaraba amazi meza n'isabune.

Itsinda rigari ry'abantu bakoreye inama mu Rwanda, barimo abirabura, abazungu ndetse n'Abanyarwanda birumvikana, bakaba ari abantu bafite aho bahuriye n'inzego z'ubuzima, ukabona ko bize ku bintu byinshi cyane byateza imbere ubuzima bwa muntu.

Umuganga w'umugore ari kuganiriza abaturage, ubona ko abaturage bicaye mu itente, iryo tente rikaba ridekoresheje ibitambaro biri mu mabara y'Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umuntu w'umuganga, afite icyuma kifashishwa mu gupima umuriro w'umuntu ndetse afashe ku rutugu rw'umusaza, uwo musaza yambaye imyambaro y'idini rya Islam, iruhande rwe hari akana kari kumwitegereza.

Umuntu wifashe mu gatuza, wambaye isaha ndetse n'udushanete ku kundi kuboko, akaba afite indangururamajwi, iyo ndangururamajwi ikaba ifite ibara ry'umukara, uwo uyifite ni Umuzungu w'umugore, ari gutanga ikiganiro.

Umuganga bigaragara ko akiri muto rwose, arimo kwita ku kana gatoya aho ari kugapima umutima ndetse ubona ko nyina nawe ari aho hafi akaba yakazanye ngo bakavure.

Inyubako nziza cyane, ubona ko ari inyubako igezweho, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'uruziga ndetse ikaba ikorerwamo ibintu bitandukanye n'ibyo mu buzima busanzwe.

Umuganga yifashe nk'agakombe k'icyayi imbere y'umurwayi, ubona ko umurwayi na we afite ibipapuro arimo kuzuza, aho yicaye ndetse imbere ye ku meza hateretse n'amazi yo kunywa.

Leta y'u Rwanda izwiho kugira isuku, iyo suku ntabwo iba mu mujyi wa Kigali gusa ahubwo iba hirya no hino mu byaro bitandukanye kuko buri rugo ruba rufite kandagira ukarabe, aho igihe cyose umuntu avuye mu bwiherero akaraba amazi meza ndetse n'isabune, yaba abana cyangwa abakuru.

Umukecuru ushagawe n'abana benshi ndetse ubona ko hari ibyo barangariye imbere, gusa bikaba ari ibintu byiza kubona umukecuru nk'uyu nguyu ashagawe n'urubyiruko rw'urwaruka rungana gutya.

Amacupa abiri ateganye ari mu ibara ry'ubururu, hasi hari utuntu tw'umukara ndetse mo hagati hari ikimeze nk'umugozi uzengurutse kuri buri cupa, aya macupa yose akaba yifashishwa mu gutanga umwuka.

Imodoka nini ya rukururana, ikaba ihetse ibintu bitandukanye, gusa bikaba ari ibintu by'ibiryo bitewe n'uko hashushanyijeho ikirangantego cy'umuryango w'abibumbye, ukorera ku Isi hose, ushinzwe kwita ku mirire.

Abana barimo gukaraba kuri robine, ubona ko ari abana benshi cyane gusa aho barimo bakarabira ni ku gihombo cyaturitse kikaba kiri kududubiriza amazi hasi, hakaba hari umuntu wateretseho ibasi itukura na yo iri kugwamo amazi, gusa urabona ko asa nabi.

Igihe cyose mufite ibibazo runaka, waba wumva uribwa cyangwa se utameze neza, ni byiza ko wegera muganga ndetse n'abajyanama b'ubuzima bakagufasha.

Abantu bicaye mu nama, bakaba bicaye mu buryo basa nk'abazengurutse kugira ngo hatagira ujya inyuma y'undi bityo bikaba byatuma atumva inama neza, harimo n'umugabo wambaye impuzankano y'abadaso, ushinzwe umutekano ku Murenge.

SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanye, ayo ni amagambo yanditse ku gipapuro cyometse ku nzu, iyo nzu iteye sima, imbere yacyo hakaba hicaye umugabo wambaye ekuteri z'umweru n'agapira k'ubururu ari kumwe n'umujyanama w'ubuzima.

Abagore nabo bagira imbaraga barashoboye ndetse bashobora gukora n'imirimo ikomeye irimo nko guterura imifuka iremereye, nubwo bo bisaba ko batwarana umufuka umwe ari babiri.

Abantu ubona ko ari abayobozi bakomeye, bicaye bazengurutse ameza, buri wese imbere ye hateretse igikombe kirimo icyayi ndetse ubona ko bari kwiga ku bibazo by'ubuzima ndetse n'indwara z'ibyorezo.

Umuryango w'Abibumbye ushinzwe kwita ku buzima, ukaba ufite ikirangantego, icyo kirangantego kikaba kirimo ikarita y'isi ndetse harimo n'inkoni izengurukijweho inzoka.

Umuntu w'umugabo ari gukaraba kuri kandagira ukarabe ndetse biragaragara ko yambaye inkweto z'umukara za congo, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara n'ishati ya bleu ciel. Ni byiza cyane ko igihe cyose tuvuye ku bwiherero dukaraba amazi meza n'isabune.

Abantu ubona ko ari imbaga nyamwinshi, barimo abagabo ndetse higanjemo abagore, ubona ko abenshi bambaye imyenda y'umweru hejuru, bakaba bambaye n'amakarita y'akazi mu ijosi, harimo n'abagabo bahagaze ahagana inyuma, bambaye amakote y'umukara.

Umuntu urwaye akaremba cyane yajyanwe mu bitaro kwa muganga, yitabwaho mu buryo bwose bushoboka ndetse akitabwaho n'umuganga urenze umwe kugira ngo babashe kuba bakora igishoboka cyose batabare ubuzima bwe.

Abantu bicaye bazengurutse ameza, bari mu nama barakurikiye bari kuganira umwe akumva igitekerezo cy'undi ndetse undi na we akamwunganira, ku meza hateretse amacupa y'amazi imbere ya buri wese kandi hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa na telefone.

Umusaza ugeze mu zabukuru yaje kwivomera amazi kuri robine ndetse birasa nkaho gufungura byamunaniye none yiyicariye hejuru y'ijerekani ndetse ari kwisekera, gusa abasaza nk'aba baba bakeneye akuzukuru kabafasha mu kuvoma amazi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bahuriye mu nyubako, akaba ari ahantu muri sale ikorerwamo inama bakaba, baturutse hirya no hino mu gihugu, aho bari kwiga ku buryo bashobora guteza imbere ibigendanye n'ubuzima ndetse n'imiti.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati n'ikabutura ari kuvoma amazi ahantu ku kigega, aya mazi ashobora kuba agiye kuyanywa cyangwa se agiye kuyakaraba.

Ku ivomero rusange uzahasanga abavomyi benshi buri wese yazanye igikoresho cye ashoboye cyangwa bitewe n'icyo agiye gukoresha amazi aje kuvoma, urugero hari abazana amajerekane, amabasi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bari bahuriye ku kagari, aho bari bari gukora inama, aho abayobozi babaganirije ku ndwara zitandukanye, ziri kugenda zibasira iki gihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange.

Ibiganza by'umuntu biteze ahantu hari kuza amazi meza, ubona ko hari n'isabune hirya gatoya, bikaba biri kutwereka ko gukaraba ukoresheje amazi meza n'isabune ari byiza cyane kuko biturinda indwara zikomoka ku mwanda.

Abantu ubona ko ari ababyeyi n'umuganga, ni umuganga umwe n'umubyeyi umwe, umubyeyi ateruye akana umuganga nawe afashe intoki z'akana bisa nkaho ari kugafata amaraso.

Umwana mutoya ubona ko afite nk'imyaka iri hagati y'itatu n'itanu, arimo gukina n'amazi kuri robine ndetse urabona ko afite n'ikintu cy'igicupa ari kuvomeramo amazi ashobora kuyanywa, ibi bikaba ari ibintu bishobora kumugiraho ingaruka.

Umwana bigaragara ko ukiri mutoya nubwo atari igitambambuga, ariguseka, ari kuvomera amazi mu ntoki ubanza agiye kuyanywa. Gusa yazanye amajerekani atatu; yaje gutega amazi kugira ngo bakuru be basange yuzuye hanyuma bayatware, kuko we atashobora ijerekani.

Abana batoya bari kunywa amazi ahantu ku ivomero rusange, ndetse ukaba ubona ko atari ibintu byiza cyane, kuko aya mazi ashobora kubagiraho ingaruka. Ntabwo atetse kandi bari kunywa menshi. Bari kurushanwa.

Umukobwa bigaragara ko uri gutega amazi kuri robine, iruhande rwe hahagaze umwana mutoya, wambaye umupira uri mu ibara ry'umutuku wegamiye igikuta cya robine, iruhande nanone hakaba hari undi mwana wifashe mu gatuza urangamiye uwo uri kuvoma.

Abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, by'umwihariko abo twita abasazi, bakunze kugira imyitwarire idahwitse, hari uwo usanga yarize, ibimyira byashotse, ndetse akaba aba akeneye inama.

Abantu benshi ntabwo bakunze kwita ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, nyamara ubuzima bwo mu mutwe bukomeje guhangayikisha cyane kuko usanga muri iki gihe abantu barwara indwara zitandukanye zo mu bwonko.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uburyo ikibazo cyo kwiyahura cyagiye kigabanuka mu Rwanda ndetse n'umwaka cyagiye kigabanukiramo, nk'ubu ngubu baratwereka kuva muri bibiri kugeza muri bibiri na cumi n'umunani.

Umuntu w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore, yicaye ku musambi cyangwa se uwo twita umuce, akaba afite ibibazo byo mu mutwe muri make bamwe twita ngo ni abasazi, akaba yaziritswe umunyururu kugira ngo atiruka bataramujyana kwa muganga.

Umugore ubona ko yazunze umunnya yabishye rwose, akaba ateze igitambaro, akaba ari gukanura amaso, gusa yambaye amaherena ku matwi, akaba afite ibibazo byo mu mutwe.

Umuntu wifashe mu mutwe mu gice cy'imbere mu maso, akaba yipfutse hatari kugaragara ijisho na rimwe, ni umuntu w'umugabo nkurikije uko mubona mu bushishozi bwanjye, akaba afite ibibazo byo mu mutwe.

Abana benshi b'abanyeshuri ubona ko bari ku murongo, inyuma yabo hakaba hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bigaragaza ko ari kimwe mu bigo by'amashuri biboneka hano mu Rwanda, bose abo bana bakaba bazamuye ibiganza hejuru, ubona ko bishimye hari ibyo barimo kubazwa bagiye gusubiza.

Umuntu wese ufite indwara zo mu mutwe cyangwa se ubona ko ari umusazi, agira imyitwarire idahwitse irimo gutoragura ibyamvagara, ibyenda byashyaguritse na we ubwe nta suku aba afite ndetse no mu muhanda hose agenda yihuraguramo uko abonye ntatinya impanuka.

Abantu ubona ko bakurikiye inama, bakaba biganjemo urubyiruko, bakaba bambaye abenshi imipira y'imikara hejuru ndetse bigaragara ko iyi nama barimo iri kwigata ku bibazo byo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, agira imyitwarire idahwitse. Aho rimwe na rimwe ashobora nko kwambara ubusa, mu ruhame cyangwa ku gasozi; gusa rimwe na rimwe hari igihe usanga abantu bamuziritse, aho kugira ngo bamujyane kwa muganga.

Umubyeyi yazanye umwana we ku mujyanama w'ubuzima, gusa umujyanama w' ubuzima amaze gupima umwana umuriro, akaba ari kwereka nyina umuriro uwo mwana afite. Abajyanama bo mu Rwanda bahawe ubushobozi n'uburenganzira, bwo gukoresha bumwe mu buryo bw'ubuvuzi nko gupima abana umuriro.

Ubuzima bwo mu mutwe bw'abaturage bo mu Rwanda bwitaweho cyane by'umwihariko abarwayi bafite ibyo bibazo. Baraganirizwa ndetse bagahabwa ubuvuzi butandukanye.

Umuntu bigaragara ko ari umubyeyi, wambaye ishapure cyangwa se akaba ari ishanete mu gatuza ariko yayitebejemo imbere mu ishati y'igitenge yambaye, akaba agaragara nk'ufite ibibazo byo mu mutwe.

Abantu bari mu nama abenshi ni abagore, harimo n'umuzungu wambaye ikarita y'akazi mu gatuza nk'abandi bose, bose barahagaze bari gukoma amashyi bisa nk'aho bamaze kugezwaho ijambo rifungura inama.

Muganga arimo gufasha abaturage ukaba ubona ko ari abamama babiri bose bambaye udupfukamunwa yemwe na muganga yambaye agapfukamunwa, wagira ngo ni muri cya gihe cy'icyorezo cya Korona virusi.

Ubuzima bwo mu mutwe mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda, mu Rwanda habayeho ibibazo bikomeye cyane, kubera icyo cyorezo abantu benshi bagize siteresi.

Abantu batatu bose bafite inkoni, babiri bafite inkoni z'ibibingo, umwe afite umwana uri konka ndetse afite n'umufuka mu ntoki, aba bose ni abagore bafite ibibazo byo mu mutwe, bakeneye kwitabwaho.

Imbaga y'abantu bahuriye mu nama, ikaba ari inama cyangwa se amahugurwa yari ari gutangwa ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hakaba hari ifoto y'umuntu w'umugabo wambaye amakote imanitse hejuru ku gikuta hafi y'urugi, ndetse hari n'ikindi gipapuro cyanditseho UNICEF.

Umugore afite indangururamajwi aricaye, ari kuvuga, hari abandi bicaranye imbere ku ruvugiro, ubona ko bari kureba imbere bisa nkaho hari indi mbaga y'abaturage barimo kwigishwa.

Umukecuru wambaye igitenge mu mutwe ndetse akaba yambaye n'ishati isa n'icyo gitenge, akaba agaragara nk'ushinyitse amenyo, ndetse akaba afite ibibazo byo mu mutwe. Akeneye ubuvuzi ndetse n'inama bya muganga.

Abantu bishimye cyane benshi cyane, harimo abagore, abagabo, urubyiruko, abana batoya bose bakaba bafite amadarapo matoya y'Igihugu cy'u Rwanda, bakaba bayazamuye mu kirere. Bisa nk'aho hari igikorwa runaka barimo, nko kwamamaza umukandida.

Ubuvuzi bugezweho bwifashisha ikoranabuhanga rigiye ritandukanye kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho ndetse bahabwe ubuvuzi n'ubutabazi bugiye bunyuranye.

Umuntu w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru w'umugabo, akaba yicaye ku ntebe iyo ntebe ikaba ifite ibara ry'icyatsi, ndetse ukaba ubona ko ifite n'amapine yifashishwa mu kuyimura bari nko gukora isuku.

Umwana arimo kurebana na nyina mu maso, bafite uburoso bose. Nyina ari kwereka umwana uko azajya aborosa amenyo ye mu mpande zose, mu bice byose, imbere n'inyuma, hasi no hejuru. Ni ibintu byiza cyane ko twigisha abana gusukura amenyo yabo bakiri batoya.

Umuntu bigaragara ko ari igitsina gabo, afite akagozi cyangwa se akadodo ari kugacisha hagati y'amenyo ye, aho ari kugenda akuramo imyanda iba yafashe hagati y'iryinyo n'irindi, ni byiza ko dukoresha ubu buryo.

Amenyo yacu akwiye kwitabwaho akagirirwa isuku mu buryo butandukanye, aho dushobora gukoresha urudodo twoza amenyo yacu, turi kubona hano umwana n'umubyeyi bose bafashe akagozi bagacishije mu menyo hagati, bari gukora isuku y'amenyo.

Umuntu w'umugore bigaragara ko ari gukora isuku y'amenyo, ariko akaba ari gukoresha akagozi, ndetse ubona ko ari ibintu byiza cyane bishimishije.

Umuntu bigaragara ko ari umugore arimo aroza amenyo ye akoresheje akadodo cyangwa se akagozi, bikaba ari ibintu byiza cyane kuko ubu ni bumwe mu buryo buzwiho kumaramo imyanda yafashe hagati y'amenyo, igihe umuntu yaryaga.

Igihe cyose wumva hari iryinyo rikurya, ni byiza ko wihutira kujya kwa muganga kuko ubuvuzi bw'amenyo bwateye imbere, ku buryo usanga iyo bibaye ngombwa ko iryinyo ryawe rikurwamo, rikurwamo ntakibazo na kimwe biguteje.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo intebe umuntu aryamaho ndetse akareba mu cyuma gihari, kikamusuzuma, kikamenya ibibazo by'indwara afite. Icyo cyuma gifiteho ku ruhande n'insakazamashusho, aho muganga aba arebera ibibazo by'umubiri w'umuntu.

Ni byiza ko dusukura amenyo yacu mu buryo bugiye butandukanye, gusa abenshi bakunze kwibanda ku gukoresha uburoso na korogate yabugenewe, nyamara hari uburyo buzwi bwo gukoresha urudodo cyangwa se umugozi, gusa ubu buryo buzwi na bake ndetse ntabwo abantu benshi babubukoresha.

Amenyo ashobora kugira ibibazo bitandukanye by'uburwayi, biturutse ku mpamvu zigiye zitandukanye, zirimo nk'umwanda cyangwa se kuba utaragiriye isuku amenyo yawe, iyo ugiye kwa muganga bakagukura iryinyo usigarana igihanga bikagutera ipfunwe mu ruhame igihe ugiye guseka.

Umwana w'umukobwa wasamye ukiri mutoya ndetse ubona ko hari ibyuma by'ikoranabuhanga biri kumukora mu kanwa bifashwe n'ikiganza cy'umuganga nk'uko ibyo biganza byose byambaye uturindantoki, bisa nk'aho bari gukura amenyo y'uyu mwana.

Umusaza ubona ko ari umuntu ukuze kuko afite imisatsi y'imvi, yambaye amataratara ndetse akaba ari kunywa imiti.

Umuganga ari kwita ku mwana, uwo mwana afite ikibazo cy'amenyo ndetse bikaba ari ibintu byiza ko igihe tubonye ko abana bacu bafite ibibazo by'amenyo bitandukanye, twagakwiye kubazana kwa muganga hanyuma bagafashwa.

Ibikoresho byifashishwa kwa muganga, mu gupima abarwayi indwara zigiye zitandukanye, zirimo nk'umutima, umuvuduko w'amaraso cyangwa se bashaka kumva uko amaraso atembera mu mubiri, bikaba ari byinshi birunze ahantu hamwe mu matsinda atatu.

Umuganga ari kwita ku murwayi, uwo murwayi arwaye amenyo, gusa amenyo ubanza ari indwara ikomeye kuko bigaragara ko umuganga umwe atabasha kwita kuri uyu murwayi, ariyo mpamvu yitabaje mugenzi we, bose bakaba bafite ibikoresho byabugenewe.

Umuntu bigaragara ko yaraje kwivuza amenyo, akaba agize amahirwe agasanga ibibazo by'amenyo ye ntago bikomeye, si ngombwa ko bayahandura cyangwa se bayakuramo, bikaba ari ibintu byiza cyane yishimiye akaba ari kumwenyura.

Umuntu ufite ikibazo cy'amenyo ari kwitabwaho n'abaganga babiri bose bambaye imyenda isa y'umukara ndetse umugabo we akaba afite n'ishati y'umweru yazinze n'isaha ku kuboko, akaba yambaye amarinete ari kureba mu kanwa ndetse yakojejemo n'icyuma.

Umukobwa mwiza cyane, ufite umubiri utemba itoto, akaba afite amenyo meza cyane, akaba aseka amasaro agaseseka, uyu mukobwa akora isuku y'amenyo ye, akoresheje uburyo butandukanye.

Umusaza yiyambariye ekuteri, yambaye amataratara, afite ubwanwa bw'imvi, ari kwikorera imyitozo ngororamubiri, afite utwuma tubiri mu ntoki zombi, ubona ko ari utwuma dutukura, ari kugenda azamura yongera amanura ndetse hari ikirere kiza abona ko ari mugitondo.

Umuntu w'umukecuru afashe akuma k'iroze kifashishwa mu guterura ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane kuko ni uburyo bwo guterura bufasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri, bigatuma imitsi ye irambuka.

Abantu batatu bose ni abakecuru bageze mu zabukuru, bari guseka, barishimye, bambaye neza urabona ko baberewe. Bari kureba muri telefone, iyo telefone ikaba ifashwe n'umukecuru uri mo hagati wambaye ikanzu y'umuhondo.

Umusaza ari gucungwa mu kagare k'abafite ubumuga, gusa we si uko afite ubumuga bw'ukuguru wenda, cyangwa se izindi ngingo zituma umuntu atagenda, ahubwo ni uko ageze mu za bukuru, abasaza nk'aba baba bakeneye kwitabwaho kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuntu w'umukecuru, yambaye ikimeze nk'isaha ari kukirebaho, yagitunzeho urutoki ndetse bigaragara ko kimufasha kumenya umuvuduko w'amaraso ukuntu uhagaze.

Umukecuru ari kumwe n'umuganga, umuganga bigaragara ko ari umusore ukiri muto, akaba yiyegamije uyu mukecuru ndetse ubona ko ari ibintu byiza cyane ko n'abakuze bitabwaho.

Biragaragara ko abasaza bakeneye kwitabwaho kuko nk'uyu nguyu ari guseka, arishimye, ari kumwe n'umwuzukuru we, bari gusoma igitabo, imbere yabo hateretse ibikombe birimo amazi yo kunywa cyangwa se icyayi.

Abantu babiri bose ni abasaza, umwe yambaye amarinete undi ntayo yambaye, bose bambaye ingofero z'urugara, bambaye imikenyero cyangwa se imishanana, bambaye amashati meza umwe iy'umweru undi iya buresiyeri.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga, yambaye ikanzu nziza cyane y'ubururu afite imisatsi myiza isutse irambuye, akaba ari gufasha umusaza ugeze mu zabukuru, yamuziritseho ikintu ku kuboko.

Abantu ubona ko ari abakecuru n'umusaza bageze mu za bukuru, umwe ari gusoma ku gipapuro, undi nawe ari kureba ubona ko bakundanye rwose, ku meza hateretse n'ibindi bipapuro byinshi bari busome.

Abantu babiri umwe ni umusaza, undi ni umugabo ukiri mutoya, bari kugenda mu gahanda, agahanda ubona ko ari ak'amabuye, iruhande rw'ako gahanda hakaba hari ibyatsi bitemye, ubonako bahakoze umuganda, inyuma gato hakaba hari ibiti binini byakuze.

Umusaza ari gusunikwa mu kagare n'umuganga ndetse bikaba bisa nkaho hari icyo barangariye imbere, ahari ni ubuvuzi bagiye guha uyu musaza.

Umusaza w'umuzungu afite ibinini ari kubifungura, akaba yegeranye n'umukecuru bisa nkaho ari umugore we ndetse inyuma y'uwo mukecuru, hari ameza ateretseho amacupa.

Buriya imyitozo ngororamubiri iratangaje cyane ndetse iranakwiriye, dukwiye kuyoboka by'umwihariko abantu bakuze, iyo bakoze imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, bifasha ubwonko bwabo gutekereza neza, bigafasha n'imibiri yabo gukomeza kugira ubudahangarwa.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, afite icyuma, icyo cyuma kikaba gifite amaguru ane, kikaba cyifashishwa aho gifasha abantu bafite ibibazo byo kugenda, kikaba kiba kiri kubatoza kugenda gahoro gahoro.

Umusaza wicaye ku gitanda, wambaye ishati y'ubururu, muganga w'umuzungu w'umugore, arimo kumufasha agiye kumuhagurutsa, ubona ko uyu musaza, afite ibibazo by'indwara zifata abageze mu zabukuru.

Umukecuru aricaye ateze agatambaro, atekeye mu nkono ubona ko ari inkono y'isafuriya idafite isuku na nkeya, ndetse bikaba bigaragara ko akeneye umwana uzajya umufasha guteka, akanoza ibikoresho.

Umwana mutoya arimo kureba utuntu nyina arimo akina ndetse nyina akaba yishimye, ubona ko ari umubyeyi ukuze, ibi bikaba bimufasha kugira imitekerere myiza kandi iboneye.

Umuntu udashoboye kugenda bitewe n'igihe amaze arwaye cyangwa se yaravunitse, hari akuma gafite amaguru ane kaba kwa muganga aho bakamuha akagenda agakoresha agenda gakegake kugira ngo abashe kuzabona uko agenda neza.

Abantu babiri umwe ni umukecuru undi asa nk'umuganga, gusa bose barasa wagira ngo umwe ni umukobwa w'umukecuru ndetse bikaba bigaragara ko bari guseka bishimiye, umukecuru akaba yambaye amaherena ku matwi yombi.

Umuganga w'umugore, wambaye inkweto za shingamunono z'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru n'isaha ku kuboko kw'iburyo, ufite aka ajenda mu ntoki, ari gukora ku musaza ku rutugu, akaba ari kumwereka uburyo agenda gake gake mu cyuma kimufasha kugenda.

Ubuzima bw'abantu bo muri Afurika y'Uburasirazuba ni ubuzima buteye inkeke kuko bakunze kugira ibibazo by'indwara zitandukanye.

Umunsi mukuru Mpuzamahanga, wahariwe kwita ku bidukikije, akaba ari umunsi wabayeho ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cyenda, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Nyamara ubuzima bwo mu Rwanda bwitaweho. Mu Rwanda hagenda hafungurwa ibigo byinshi bitandukanye, gusa bishamikiye ku muryango n'ubundi usanzwe wita ku buzima wa RBC cyangwa se icyo kigo cya RBC.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho, ari nayo mpamvu hirya no hino ku isi hagiye hashyirwaho gahunda nyinshi zitandukanye, zirimo nko kwirinda umubyibuho ukabije, ari wo utera na Diyabete ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umuntu uri gusuhuzanya na mugenzi we, bigaragara ko ari abagabo babiri bose bambaye amakoti meza cyane n'amakaruvati n'amashati y'umweru, umwe we hakaba hari kugaragara n'impeta ku kuboko gufashe igitabo, bari guhererekanya umwanya cyangwa ijambo.

Abantu bicaye ubona ko ari benshi, hakaba harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda iri mu mabara atandukanye, umuhondo, umweru, ubururu ndetse ubona ko bari barimo bakora inama, ikaba irangiye.

Abantu babiri b'abagabo bari imbere; umwe ari ku ruvugiro ruriho indangururamajwi n'igikamera giteretse imbere ye, undi na we bisa nk'aho ari kuvuga ari ku rundi ruhande, ndetse ikaba ari nama mpuzamahanga yabaye yita ku buzima.

Imbaga y'abaganga bahuriye mu nama ahantu muri sale yagenewe gukorerwamo inama, bakaba bigaga ku ngingo zitandukanye zirimo n'iz'indwara ndetse n'inkingo.

Umuntu bigaragara ko ari umubyeyi ariko ugira ubwoba rwose, yifashe mu nda, amarinete yayazamuye ayashyira ku ikora ry'ishati yambaye, ndetse yambaye n'agapfukamunwa yashinyirije, bari kumutera urushinge.

SIDA ni icyorezo kimaze guhitana abantu benshi ku Isi kandi kikaba ari icyorezo gikomeye kuko ntirabonerwa umuti cyangwa se urukingo, niyo mpamvu dushishikarizwa kwirinda iyi ndwara dukoresheje uburyo butandukanye.

Umunsi wa mbere ugomba gutangira kwita ku mwana. Ni ukuvuga ngo igihe umwana akivuka agomba kwitabwaho kugeza igihe agiriye imyaka ibiri, by'umwihariko aha aba yitabwaho na nyina wamubyaye, amuha ibere neza.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho kuko iyo umuntu atari muzima, ntashobora gukora ngo yiteze imbere, niyo mpamvu ikigega gishinzwe ubukungu cya BDF na cyo kigira uruhare mu guteza imbere ubuzima.

Abagore bane bose bakaba bakikiye abana, ubona ko babazanye kwa muganga kubasuzumisha ndetse hejuru aho bicaye ku gikuta, hakaba hari ibyapa bigaragara ko bishushanyijeho abagore bateruye abana.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, kikaba gifite ishami ryitwa ubuzima bw'abaturage bo mu Rwanda, akaba ari ishami rishinzwe kwita ku mibereho myiza y'abaturage.

Inama yahuriwemo n'abayobozi batandukanye baturutse hirya no hino ku isi, bakaba bari kwiga ku bibazo by'ubuzima ndetse n'indwara zitandukanye ziri kugenda zibasira inyokomuntu.

Umuryango mwiza cyane ushinzwe kwita ku buzima, ukaba ukunze kugira iminsi mikuru itandukanye, nkaho habayeho icyumweru cyo kurwanya malariya.

Nyamara ubuzima ni ingenzi kuri buri wese n'ubwo hari ibigo byinshi byagiye bishyirwaho kugira ngo bitere inkunga cyangwa se bishore imari muri serivisi zitangwa z'ubuzima zigiye zitandukanye ndetse bagire uruhare no mu kurwanya virusi itera SIDA, buri wese akwiye kubigiramo uruhare akabigira ibye.

Mu gihugu cy'u Rwanda abagore bahawe ijambo ku buryo uyu munsi wa none abagore bajya imbere bakayobora inama zigiye zitandukanye ndetse zinakomeye, by'umwihariko izikunze kuba ziga ku buzima cyangwa se zifite aho zihuriye n'indwara runaka zateye.

Abantu benshi cyane, biganjemo abagore ndetse bose bambaye imyenda y'umweru hejuru, bisa nkaho bahujwe n'igikorwa kimwe cy'ininama cyangwa amahugurwa, imbere hakaba hari undi muntu we wiyambariye bisanzwe, wambaye ipantaro y'umweru ndetse n'umwenda utukura hejuru.

Imbaga y'abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko bazindukiye mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo gushishikariza urubyiruko kwirinda Virusi itera SIDA, aho bafite insanganyamatsiko igira iti " Rubyiruko ni mwe hazaza h'uru Rwanda, irinde Virusi itera SIDA ipimishe uyu munsi".

Umwana ni byiza ko ahabwa imfashabereri igihe afite imyaka ibiri, ibi bimufasha gukura neza, haba mu bwonko ndetse no ku mubiri muri rusange.

Ibimenyetso bya diyabete, ni ibimenyetso bigaragara kandi byumvikana, harimo kunyaragura, kugira icyaka, gucika intege ndetse kubura ibiro ndetse no kumva utameze neza mu mubiri.

Hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yirinde kanseri zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane, inyubako igeretse rimwe, inyubako ifite amabati y'ubururu, ikaba ari inyubako y'ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima cya Kanyinya, hakaba ari mu mujyi wa Kigali.

Ni mu bitaro kwa muganga, hari ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi, buri cyose umurwayi umwe umwe, bararembye, boroshwe neza amashuka y'umweru, ubona ko begereye n'ibyuma by'ikoranabuhanga bibafasha guhumeka.

Ahantu henshi cyane kwa muganga cyangwa se muri farumasi, uzahasanga etajeri nini ziba zirimo imiti igiye ipfunyitse mu buryo butandukanye. Hariba iriri mubikarito binini, bitoya, ibigereranyije, ndetse hari n'indi iba iri mu macupa atandukanye; ay'umweru, ay'ibyuma ndetse n'aya purasitiki.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, hakaba harimo igikoresho kimwe umuntu aryama munsi hanyuma kigapima umubiri we wose uko ukora.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa, insakazamashusho n'ibindi byuma bicometseho insinga z'amashanyarazi ariko kandi hakaba harimo n'ameza atatseho igitambaro gisa ibara ry'ubururu bwerurutse.

Mu bitaro kwa muganga harimo ibitanda bibiri, ibitanda byiza cyane bishashweho amashuka y'umweru, byose bikaba nta murwayi ubiryamyeho, bigaragara ko nta barwayi barembye bari muri icyo cyumba.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga gusa akaba atari kwa muganga bisanzwe kuko ahubwo ni forumasi icuruza imiti igiye itandukanye, iruhande rw'aho hakaba haparitse imodoka nziza, imbere hirya nanone hakaba haparitse indi modoka y'umweru.

Inyubako nziza bigaragara ko ari iyo kwa muganga, ikaba imbere yaho hateretse intebe ebyiri zitukura zegeranye ndetse hakaba hari n'indi imwe iri ku rundi ruhande, iyi nyubako ikaba ifite urubaraza rufite inkingi enye.

Ikigo nderabuzima cya Gisenyi, ni ikigo nderabuzima gikunze kugira abakigana benshi bashaka serivise z'ubuvuzi bugiye butandukanye, hari abavuza abana, hari abivuza ku giti cyabo hari n'abandi bakenera inama za muganga.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, iyi nyubako irimo ibikoresho bitandukanye, hari akabati gafiteho ibara ry'umuhondo n'iry'umweru, imbere yako hari ikimeze nk'igitanda ndetse kikaba gifite n'intebe y'umweru ihateretse, hari n'aho bakarabira intoki.

Abantu ubona ko barimo abagabo ndetse n'abandi bantu b'igitsina gore babiri, bakaba bari imbere y'inyubako y'ibitaro bya Kabutare ariko hakaba ari ahagenewe gutangirwa ubuvuzi cyangwa se serivisi ku bakomeretse cyangwa se ku bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Mu bitaro byo kwa muganga hari ibitanda bibiri, ibyo bitanda bibiri bigaragara bifite ishuka nziza cyane y'icyatsi ndetse hariho ibyuma ku ruhande umurwayi afataho cyangwa se bikaba byamutangira ntahirime, hirya mu nguni hari kugaragara ikindi gitanda kimwe.

Mu cyumba hari igitanda, icyo gitanda gifite utuntu tubiri ku mpande umuntu agenda afatishamo amaboko, igihe barimo baramusuzuma.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, harimo intebe zigiyehe zitandukanye ubona ko zifite amabara y'ubururu ndetse hakaba harimo n'ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga buri cyuma kikaba gifite intebe yacyo iri iruhande rwacyo.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, kikaba ari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse iki cyumba bikaba bigaragara ko gitangirwamo ubuvuzi bushingiye ku myitozo ngororamubiri, bitewe n'ibikoresho birimo.

Kwa muganga haba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye, kugeza n'ubwo hari ibikoresho byifashishwa mu kubika umwuka mwiza duhumeka kugira ngo igihe hari umurwayi ukeneye kongererwa umwuka, na we abashe kwitabwaho.

Umuntu w'umukobwa aryamye agaramye ari mu bitaro byo kwa muganga, ubona ko imisatsi ye yayishambaguje bisa nkaho arembye, iruhande rwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga bicomekeranyijeho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abamama batatu barahagaze bose barishimye bari kumwenyura, bambaye impuzankano zisa, bigaragara ko bafite ibyo bashinguye mu buzima, bakaba ari abajyanama b'ubuzima cyangwa se ari abaforomokazi.

Umuntu bigaragara ko yaje kwivuza kwa muganga akaba ari umugore, uwo mugore yicaye imbere ya muganga, amaboko ye yayarambitse ku meza, umuganga na we afite ikayi nini ari kwandika ibyo ari kubaza umurwayi, inyuma ya muganga hari undi muganga uri kureba mu gitabo.

Umuntu w'umugabo bisa nkaho ari umukozi wo kwa muganga, ari kumanura inzitiramibu ndetse iyo nzitiramibu ikaba iri mu ibara ry'ubururu ndetse akaba ari kuyimanurira ku gitanda kiryamyeho umurwayi urembye.

Inyubako yo kwa muganga, ikaba ari inyubako nziza cyane, ifite ibikuta by'umweru, ikaba ari inyubako ifite hejuru ibimeze nk'imirasire bitanga urumuri mu nyubako mo imbere.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, ikaba ari inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse biri no mu mabara atandukanye, ibyo bikoresho bimwe na bimwe, bikaba ari iby'ikoranabuhanga.

Umuntu bigaragara ko ari umuganga w'umugore, ari kwihuta cyane ajya kwegera abandi baganga batatu bari imbere ye, ubona ko bari kujya inama z'uburyo bavura abarwayi, hirya hari abandi baganga bari kureba mu mayetajeri.

Inzu y'ababyeyi, ni inzu uzasanga henshi cyane ku bigo nderabuzima bigiye bitandukanye byo mu Rwanda, aho ari umwihariko w'Igihugu cy'u Rwanda kuko ababyeyi babyara bajyanwa muri izi nyubako zabugenewe kugira ngo bitabweho by'umwihariko.

Inyubako nziza y'ibitaro byo kwa muganga, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa, ifite amatafari ahiye ku nkuta zayo ndetse ifite n'ibara ry'umweru risize ndetse hakaba hari n'akajaride keza kanyuzemo uduhanda, dushashemo amabuye.

Umuganga ari gukora muri mudasobwa ndetse akaba ari kureba ibintu bitandukanye by'umuti yararimo asuzuma, afite agacupa mu ntoki, yambaye ga z'ubururu, yambaye n'itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa.

Ikigo nderabuzima cya Ruhengeri ni kimwe mu bigo nderabuzima biboneka mu karere ka Musanze, kikaba ari ikigo nderabuzima kiri mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye, isize amarangi y'umweru ndetse ifite na jaride irimo indabo nziza cyane.

Ni mu bitaro byo kwa muganga, ni mu cyumba cyagenewe gusuzumirwamo abarwayi, hakaba harimo ibyuma by'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye ndetse ubona ko bicometseho n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abantu bigaragara ko ari abaganga. Bari ahantu mu cyumba, bafite ibintu barimo barasuzuma, kuko imbere yabo ku meza hari ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse hari n'amacupa, bamwe urabona ko basa nk'abahuze.

Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ni ibitaro byubatse neza cyane mu buryo bugezweho ndetse ibyo bitaro bikaba bifite ahantu hagari ho guparika imodoka ndetse hakaba hari imbuga nini yubakishijwe amapave, hari n'utujaridhe twiza cyane turimo ibyatsi bitoshye.

Abantu babiri. Umwe ni umuganga w'umugore, undi ni umusaza. Uwo muganga w'umugore, afashe icyuma cy'ikoranabuhanga, arimo gupima umusaza ngo arebe umuvuduko w'amaraso ye uko wifashe.

Inyubako yo kwa muganga inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako itangirwamo ubuvuzi ndetse hakaba havurirwa abantu bafite ku myaka cumi n'umunani kuzamura, muri make ni uguhera ku ngimbi n'abangavu.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho byifashishwa n'abaganga mu kuvura, gusuzuma ndetse no kugena imiti umurwayi agomba guhabwa.

Ibitanda bishoreranye ku murongo byose biteye kimwe, bifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bikaba bishasheho amashuka meza, ibi byose byagenewe kuryamishwaho abarwayi barembye.

Muganga ari kuzinga ibintu bimeze nk'inzitiramibu ariko ifite ibara ry'ubururu, akaba ari kuyizingura ku gitanda kiryamishijweho umurwayi.

Mu bitaro byo kwa muganga hagana abarwayi benshi batandukanye, abafite ubumuga nabo ntibaba bahejwe kuko buri nyubako yose y'ibitaro byo mu Rwanda iba ifite ahabugenewe hakirirwa abafite ubumuga.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo abarwayi benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi, abo barwayi ubona ko abaganga bari kubitaho mu buryo bunyuranye, ndetse hakaba hari n'umukecuru ufite ubumuga na we akaba ari kwitabwaho n'umuganga.

Abantu batonze umurongo ubona ko ari umurongo muremure, bavuye mu ntebe bose barahagaze, bakaba bari kugenda basanga muganga umwe kuri umwe, akagenda afashwa bitewe n'ikibazo ke. Gusa haje umurwayi yicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bahita bamuheraho.

Inyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abayigana, hari ibyo guterura, ibifasha umuntu kwirukanka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ni ikigo nderabuzima cyiza cyane cyakira abarwayi batandukanye barimo abagabo, abagore, abana batoya ndetse kikaba gifite inyubako y'igorofa igeretse rimwe.

Inyubako yo kwa muganga ikaba ari inyubako nziza cyane iri kugaragarwamo intebe, ameza ndetse n'ibindi bikoresho biri ahantu mu cyumba, icyo cyumba kikaba gifite umuryango ufite urugi rwiza cyane rw'ikirahure hakaba hafunguye.

Hirya no hino ku masoko agiye atandukanye by'umwihariko mu mijyi uzahasanga za forumasi zicuruza imiti igiye itandukanye, ushobora kujyayo ukayigura, ariko biba byiza iyo uyiguze wayandikiwe na muganga wizewe.

Mu bitaro byo kwa muganga, harimo intebe yicarwaho na muganga, ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, hakaba indi ntebe imbere yaho, nanone yicarwaho n'umurwayi, ifite ibara risa nk'iryo twavuze haruguru, hakaba hari n'ibyuma by'ikoranabuhanga.

Ubuzima bukwiye kwitabwaho, by'umwihariko hirindwa indwara zikomoka ku nyamaswa zigenda zikwirakwizwa ku bantu.

Umuntu w'umuganga arunamye ndetse urabona ko afashe ukuboko k'umurwayi nubwo uwo murwayi atagaragara. Uwo muganga ateze ugutwi bisa nkaho hari ibyo arimo gusuzuma.

Ibitaro byo kwa muganga ndetse bikaba bifite n'ahantu hatangirwa imiti, bikaba ari ibitaro bizwiho kuvura abantu bakuru, ubwo ni ukuvuga ngo bari kutwereka ahagenewe kuvurirwa abantu batari abana.

Inyubako nziza cyane irimo sale nini ubona ko harimo udutebe dukeya twicarwaho n'abantu bategereje serivisi zo kwa muganga, iyo nyubako ikaba ifite hejuru mu gisenge icyuma cy'ikoranabuhanga kizana akayaga mu nzu.

Inyubako nziza cyane ariko ikaba ari inyubako igaragara nkaho ishaje, ni inyubako yubatswe mu buryo bw'igorofa ariko ikaba ifite amatafari ahiye ndetse ikaba itatseho ibyapa bigaragaza ko hacururizwa imiti.

Abantu bishimye cyane ubona ko bameze nk'umuryango, bakaba bari ahantu mu nyubako bari kwifatira ifoto, bisa nk'aho bari baje kwa muganga.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ubuvuzi ndetse hakaba ari mu isuzumiro, aho umurwayi cyangwa se undi muntu wese aza akaryamishwa ku gitanda hanyuma ibyuma by'ikoranabuhanga bigapima uko umubiri we wose ukora.

Intebe ebyiri ziteye zirebana n'izindi ebyiri zifite amabara atandukanye, inyuma yazo hakaba hari izindi zimeze uko, mo hagati y'intebe hakaba hagiye harimo ameza.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako nshyashya, iyo nyubako ikaba yubatswe mu buryo bw'igorofa, ikaba ifite urubaraza imbere yayo rufite ibara ry'umweru, imbere y'urubaraza hari umukindo ubona ko ari munini uri ahantu mu kajaride.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako ifite salle nini, iyo salle ikaba ishashemo amakaro meza cyane hasi, inkuta zayo zose ni umweru ndetse hejuru hari igisenge cyiza cyane kirimo ibyuma bigiye bitambitse n'ibimanutse.

Abantu bigaragara ko ari abaganga, bari mu nyubako yo kwa muganga, ubona ko ari ahantu hasa neza cyane, muganga umwe afashe ukuboko k'umurwayi ari kumusuzuma yamuziritseho ikintu ku kuboko, ku meza hateretse agacupa karimo umuti wica udukoko.

Ikigo nderabuzima cya Gishwero. ii ikigo nderabuzima cyubakishijwe amabuye ndetse na sima, kikaba cyubakishijwe na none n'amatafari ahiye, ndetse ukabona ko ari ikigo nderabuzima gikuze cyangwa kimaze igihe, hakaba hakunze kuza abantu bashaka serivisi z'ubuzima batandukanye.

Inyubako yo kwa muganga ni inyubako irimo intebe zifite amabara y'ubururu, ndetse zikaba zifite udupine hasi twifashishwa zimurwa.

Abaganga bagera kuri batatu, baricaye babiri bafashe ku meza, bambaye uturindantoki dufite ibara ry'ubururu ndetse bakaba banambaye amataburiya y'umweru.

Icyuma cy'ikoranabuhanga cyifashishwa n'abaganga mu gupima indwara umuntu arwaye zose, aho agenda akaryamishwa kuri icyo cyuma hanyuma amashusho y'imbere mu mubiri we yuko ibice bikora agahita yigaragaza ku nsakazamashusho.

Ikigo nderabuzima, kikaba ari ikigo nderabuzima gifite inyubako, iyo nyubako ikaba isakajwe amabati meza y'ubururu, bakaba bavura abantu bafite imyaka kuva kuri cumi n'umunani kuzamura.

Umuntu w'umuganga wambaye igikanzu cy'umweru kinini, wambaye, uturindantoki, wambaye ibimeze nka bote, ndetse ubona ko yipfutse umubiri wose, bigaragara ko ari ahantu hashobora kumuteza ibyago byo kwandura nk'icyorezo runaka gituruka ku mwuka.

Aha ngaha ni mu nyubako bigaragara ko ari inyubako irimo intebe zigiye zitandukanye n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, birimo ibyuma byo guterura n'ibindi banyuraho birukanka.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bw'uruziga ndetse ikaba ifite ibirahure byiza n'akadizayini, hakaba hari indi nyubako iruhande rwayo nini yubakishijwe amatafari ahiye, ishakajwe amabati meza, ifite urubaraza rw'umutuku.

Ibitaro bikuru bya Kabgayi, ni amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ashushanyije mu ibara ry'umweru ku irembo rinini ryinjira kuri ibyo bitaro, bikaba ari ibitaro biboneka mu karere ka Muhanga bizwiho kuvura cyane indwara z'amaso.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako isize amarangi y'umuhondo, ikaba ifite amadirishya n'inzugi harimo ibirahure, ariko mu birahure hari kugaragara amarido ari mo imbere, imbere y'iyo nyubako hakaba hari akajaride karimo indabo nziza cyane.

Umuntu w'umuganga bigaragara ko yambaye impuzankano y'abaganga, akaba ari gukora ahantu hameze nko mu gisanduku cyangwa se firigo, akaba afite ibyo ari gukuramo.

Abantu bigaragara ko ari abantu batanu, bane baregeranye bose bari munsi y'icyuma cy'ikoranabuhanga gikozwe mu buryo bw'umuzenguruko w'uruziga, hakaba hari n'igitanda.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, ni ikigo nderabuzima gifite irembo, iryo rembo rikaba rifite urubaraza runini ndetse hakaba hari n'umuntu w'umubyeyi uri kuhogenza umwana, bigaragara ko yaje gushaka serivise z'ubuvuzi ku mwana we.

Umurwayi uryamye ku bitaro ndetse akaba aryamye ku gitanda, iruhande rwe hari ibyuma by'ikoranabuhanga bicometseho insinga z'amashanyarazi, bikaba byifashishwa mu kuvura abarwayi barembye.

Mu bitaro byo kwa muganga, hari intebe eshatu z'umuhondo, izo ntebe zifite udupine twifashishwa mu kuzimura ndetse zikaba ziteye mu buryo umuntu yicaraho agasa nk'uwegamye araramye.

Muganga yicaye imbere ya mudasobwa ari kwitegereza amashusho ari muri mudasobwa ndetse ubona ko ari amashusho y'abantu, bisa nkaho ari kwiga uburyo bushyashya bwo kuvura abarwayi.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, akaba yaziritse ukuguru kwe umugozi muremure w'umukara, akaba aryamye hasi, ubona ko ari kugenda akurura uwo mugozi uziritse ku byuma biremereye.

Hari ibintu bitandukanye muganga ashobora kwitwaza igihe agiye kuvura abakinnyi bakina umupira w'amaguru, harimo nk'imiti igabanya uburibwe, bande zo kuzirika uwavunitse bikomeye, n'ibindi bitandukanye.

Ni byiza cyane ndetse ni iby'agaciro gukora imyitozo ngororamubiri, waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, waba ukuze cyangwa ukiri mutoya kuko bizafasha umubiri wawe kugira ubudahangarwa no gukora neza.

Umuntu uri kunywa amazi, bigaragara ko ari amazi meza, uyu muntu akaba afite icyokere n'icyaka, akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho kizwi nka bande kikaba kiri mu ibara ry'umutuku, cyifashishwa mu kuzirika umurwayi cyangwa se uwagize imvune, kikaba gituma igufwa ry'umuntu ritabasha gukomeza gutatana.

Abantu bane bari mu masiganwa yo kwiruka, aya masiganwa akaba ari meza cyane kuko usibye no kwinjiza amafaranga, biba ari uburyo bwo gukora siporo ngororamubiri, bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse agatekereza neza.

Ibikoresho umuntu ashobora kwifashisha atanga ubutabazi bw'ibanze nk'uko byanditse mu ijambo ry'Icyongereza, hari imakasi, itoroshi, umuti wo gukaraba w'amazi, hakaba hari uturindantoki, hari bande yo kuzirika n'ikinini cya pulasitamoro na ko cya ramusini.

Umuntu bigaragara ko ari igitsina gabo, yifashe mu gatuza, ubona ko ari mu myitozo ngororamubiri, gusa akaba yiturumbuye hejuru.

Ikintu kimeze nk'insakazamashusho nini, gishushanyijemo amashusho y'ibice by'umubiri w'umuntu ndetse kikaba cyifashishwa n'abaganga mu gihe barimo barahugura abandi bagenzi babo.

Umukobwa yazamuye amaboko mu kirere, yambaye ipantaro y'umukara, urabona ko afite na nyashi, akaba yibereye mu myitozo ngororamubiri. Hari ikirere gisa neza, bisa nkaho ari mu mu gitondo.

Hari ibintu muganga yitwaza igihe agiye kuvura ku kibuga, birimo umuti ugabanya uburibwe uzwi nka pomade, birimo bande yo kuzirika ndetse n'ibinini bigiye bitandukanye.

Umuntu wicaye wambaye agapira k'umuhondo, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye hari ibyatsi bitoshye ubona ko biri ahantu heza.

Umuntu w'igitsina gabo yifashe mu mutwe inyuma amaboko ubona ko yayazamuye mu kirere, ukuboko kumwe kwambaye isaha ndetse intoki yazicomekeranyije ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'umugabo ari mu myitozo ngororamubiri, yazamuye ukuguru kwe agushyira ku biti yubatse uruzitiro ruzengurutse aho bakorera imyitozo ndetse ubona ko yamanuye n'ukuboko kumwe, akagukoza kuri uko kuguru kuzamuye hejuru.

Umuntu uri kunywa amazi bigaragara ko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yagize icyokere ndetse n'icyayaka, bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bifasha umubiri we kongera kugarura ubuyanja.

Umuntu wicaye warambuye ukuguru ndetse akaba yamanuye amaboko yombi ayakoza kuri kwa kuguru kurambuye, ukundi gusa nk'uguhinnye ndetse yambaye agapantaro kamufashe, ni umukobwa ari mu myitozo ngororamubiri.

Hari ubwoko bwinshi butandukanye bw'imyitozo ngororamubiri umuntu ashobora gukora kugira ngo afashe ubuzima bwe kwirinda indwara zigiye zitandukanye, hari ukwirukanka, gusimbuka, guterura ibyuma, gukina umupira w'amaguru ndetse n'ibindi.

Umukobwa ufite umubiri wumutse ubona ko ari inzobe ariko akaba atari igituku, ni inzobe ya yindi imeze neza akaba yicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yamanuye amaboko ye ayafatisha ku mano ukaba ubona ko ari kugorora imitsi.

Ikintu k'igikoresho kimeze nk'igikasike, kikaba gifite amabara y'umukara, umweru ndetse kikaba gifite n'irindi bara ry'umuhondo.

Igihe cyose ukora imyitozo ngororamubiri irimo nko guterura ibyuma cyangwa indi yose isaba imbaraga, ukwiye kurya ibintu birimo inyama, amagi, imineke n'imbuto zitandukanye ndetse n'imboga.

Abantu bagize ikibazo cy'imvune, biba byiza cyane iyo bahise bajyanwa kwa muganga kuko abaganga bafasha uwagize icyo kibazo mu buryo bwose bushoboka, aho bifashisha n'ibyuma mu kugorora akaguru kagize ikibazo.

Umuntu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, afite imisatsi myinshi, yambaye inkweto zifunze, yambaye agasengeri gasa ibara ry'icyatsi, yambaye agakabutura k'ubururu, ari gusunika icyuma kiremereye cyane.

Bavuga ko bibiri bya gatatu by'umubiri w'umuntu bigizwe n'amazi, gusa amazi yo mu mubiri w'umuntu ntahagije kugira ngo afashe mu gukora ibikorwa bitandukanye umubiri ugenda ukora, niyo mpamvu dusabwa kunywa amazi meza yatunganyijwe neza kugira ngo dufashe umubiri wacu.

Muganga ari kuvura umurwayi, uwo murwayi akaba afite ikibazo cy'imvune ku maguru ndetse bikaba bigaragara ko ari ibintu bishimishije kuba yagejejwe kwa muganga.

Umuntu bigaragara ko ari umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yazamuye ukuboko kwe a agakoze inyuma mu ntugu ndetse yambaye isengeri y'umukara, akaba ari ibintu mwiza cyane kwigorora kuko bifasha umubiri wawe.

Umuntu uri kunywa amazi akaba ari umugabo, akaba yari ari gukora imyitozo ngororamubiri bikaba ari ibintu byiza cyane kuko igihe cyose ukoze imyitozo ngororamubiri, iyo unyweye amazi bifasha umubiri wawe kongera kugarura imbaraga wari watakaje.

Akaboko k'umuntu kari kugaragara ku ishusho ndetse kakaba kaziritseho bande, bigaragara ko kagize ikibazo k'imvune hakaba hari n'izindi mpande ziri mu mabara atatu, umutuku, umukara n'ubururu bwerurutse.

Umuntu bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye amaboko ye akayafatisha inyuma ku mutwe, akaba arimo aragorora imitsi.

Icupa ririmo amazi meza, rikaba riri kwerekanwa n'ikiganza cy'umuntu bigaragara ko adushishikariza kunywa amazi meza kuko amazi ari meza cyane kandi ubuzima bwiza bukwiye kuba bufite amazi.

Umusore w'intarumikwa ari mu myitozo ngororamubiri, yarambuye ukuguru kwe ndetse ukundi asa nk'ukwicayeho, muby'ukuri yarambuye akaboko ke agakoza kuri kwa kuguru kurambuye, iyi ni siporo ivuna cyane gusa ifasha umubiri w'umuntu, nanjye njya nyikora.

Umuntu uryamishijwe hasi, ariko akaba ari igipupe cyangwa se igishushanyo cyangwa ikibumbano cy'umuntu, abaganga bifashisha bari kwiga uburyo bavura umutima w'umurwayi.

Ubuvuzi bugezweho, ni ubuvuzi butangwa n'abaganga bugiye butandukanye, aho bifashisha ibishushanyo runaka bakaza bagahugura abantu, aho bashobora gushushanya nk'umutwe w'umuntu bakereka abantu igice cy'ubwonko n'uko gikora.

Umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore, ari kureba mu kirere, ari kwimenaho amazi. Bisa nkaho yari yashyushye cyane, nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri y'imbaraga.

Umuntu bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri ariko akaba ari kuyikorera mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kuko hirya hari n'abandi benshi bambaye imyambaro ya siporo, ubona ko baje muri iyo nyubako.

Umuntu bigaragara ko ari umusore cyangwa umugabo, akaba ari kwikora mu ivi ahagana hejuru mu itako, ubona ko afite ikibazo cyo kuvunika.

Umukobwa akwiye gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agire umubiri mwiza wumutse kandi abyibuhe neza ndetse agire n'amataye cyangwa se nyashi.

Amazi meza cyane ari mu kirahure, akaba ari guturuka mu ibirika cyangwa se mu ijage ifashwe n'ikiganza cy'umuntu cyangwa se intoki z'umuntu, akaba ari amazi meza cyane y'urubogobogo ari yo dukwiriye kunywa.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo gitunguranye, bakaba bari kumuha ubutabazi bw'ibanze, abari kubumuha ni abakozi bashinzwe gutabara aho rukomeye bazwi na Croix Rouge.

Amazi ari mu icupa ripfundikijwe umupfundikizo w'ubururu, akaba ari amazi meza pome imwe idasatuye n'indi imwe isatuye, icunga riri hafi aho, ibyuma byo guterura na metero yo gupima, ni ibyifashishwa muri siporo.

Ikintu kimeze ukuntu utamenya, kikaba ari igikoresho cy'ikoranabuhanga ryifashishwa mu kuvura, gusuzuma ndetse no kugena imiti umurwayi urembye ashobora guhabwa.

Umuntu w'umugabo, wasobekeranyije amaboko, imitsi ubona ko yareze, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, bikaba ari ibintu bishimishije.

Muganga cyangwa se umufasha mu bya siporo, ari kwandika ku mpapuro ndetse bigaragara ko imbere ye hari ibyuma byo guterura, isaha, hari pome, hari metero ndetse n'ibindi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Amacupa atatu ubona ko akoze mu buryo bumwe ndetse yanditseho n'amagambo amwe, apfundikijwe imipfundikizo y'umweru isa ndetse aya macupa akaba yanditseho ijambo rigaragaza ko imiti irimo ari imiti igabanya uburibwe.

Umukobwa mwiza ubona ko ari umwiraburakazi mwiza cyane, akaba yicaye hasi, akaba yarambuye ukuguru kumwe ukundi kukaba guhinnye, ndetse bikaba bigaragara ko yamanuye ukuboko kwe, akagukoza ku ino rya gikumwe. Akaba ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu w'umuganga yambaye uturindantoki, yambaye itaburiya y'umweru, afite umusatsi mwiza ugereranyije, yambaye n'akagozi mw'ijosi kifashishwa mu gupima umutima w'abarwayi ari ahantu mu nyubako imbere ye hari kizimyamoto n'ikindi cyuma kirekire gifite amaguru ane.

Umuntu bigaragara ko ari umugabo, afashe ku kuguru kwe ahagana hasi ku kagombambari, akaba afatiyeho igishashi kibamo amazi akonje, aricyo kizwi nka barafu bisa nkaho yagize ikibazo cy'imvune.

Nyamara imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku buzima bw'umuntu. Kuko bimaze kugaragara ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri, harimo siporo zigiye zitandukanye, ibi bifasha umubiri we kugira ubudahangarwa ndetse n'ubwonko bwe gutekereza neza.

Aha ni mu nyubako yo kwa muganga, ni mu cyumba harimo abaganga bicaye bari guhugurwa n'undi muganga, ufite icyuma arimo arareberamo ku kantu k'isakazamashusho icyo cyuma gifite, abandi na bo baricaye bari kwandika ibyo bari kubona.

Umuntu bigaragara y'uko ari umugabo cyangwa umusore ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yazamuye ukuguru akurambika ahantu ku cyuma ndetse ubona ko wagira ngo ni ahantu ku kiraro, yamanuwe n'ukuboko kwe agukoza ku rukweto kw'ino ry'agahera.

Forumasi ni ahantu ushobora kujya ukagurira imiti igiye itandukanye irimo nk'ibinini ndetse n'iyindi miti inyobwa iba iri mu macupa, ikaba ari imiti y'amazi.

Umusaza n'umukecuru ubona ko barimo barakora ikimeze nk'umwitozo wo kugenda, gusa nubwo batagaragara neza, umwe ni umuganga ari gufasha umusaza kugenda gake gake mu byuma byabugenewe.

Umuntu w'umusore wicaye ku gatebe ndetse ubona ko ari kwinywera amazi, yambaye imyenda y'umukara imbere ye hateretse igikapu yambaye n'inkweto zifunze, iruhande rwe hari undi mukobwa wazamuye amaboko hejuru mu kirere nawe wambaye agakabutura k'umukara, bari mu myitozo ngororamubiri.

Inkweto nini kandi z'umukara zimeze nk'iz'abasekirite cyangwa se abandi bantu bashinzwe umutekano nk'abapolisi, zikaba zizwi ku izina rya butinini, izi ntiwazifashisha uri gukora siporo kuko ziba ziremereye zakuvuna.

Muganga ari gukanda ivi ry'umurwayi, uyu murwayi akaba yavunikiye mu myitozo ngororamubiri. Igihe cyose uvunikiye mu myitozo ngororamubiri igiye itandukanye, bitewe n'iyo ukora, ni byiza kwihutira kwa muganga bakagufasha.

Imbangukiragutabara ni imodoka yifashishwa mu gukura abarwayi hirya no hino, ibazana ku bitaro ndetse ikaba rimwe na rimwe, ishobora no gutwara imirambo iyivana ku bitaro iyijyana mu buruhukiro.

Amazi ni ingenzi mu buzima bwa muntu, gusa ni ingenzi igihe tuyanyweye yatunganyijwe neza afite isuku, kuko afasha umubiri w'umuntu gukora neza ndetse n'ubwonko gutekereza neza cyane, by'umwihariko kandi afasha impyiko kuyungurura amaraso.

Igihe cyose habaye umupira w'amaguru, by'umwihariko ku bakina nk'ababigize umwuga, uzasanga hari abaganga baba bahari kugira ngo bafashe ugize ikibazo gitunguranye.

Abaganga bambaye ibikanzu bibapfutse ndetse bambaye uturindantoki n'udupfukamuwa n'utunozasuku mu mutwe, bari kwita ku muntu w'umurwayi bigaragara ko ashobora kuba arwaye nk'icyorezo.

Igikoresho kimeze nk'imashini ibara imibare ndetse kikaba kirimo n'isaha iri kubara saa saba n'iminota mirongo ine n'ibiri n'amasegonda icyenda n'igice kimwe, ikaba ifite ibara ry'umweru, umukara ndetse n'akantu ku ruhande kameze nk'akagozi.

Igihe cyose ukeneye kugira umubiri mwiza ukora neza kandi utarwaragurika bya hato na hato, ni ngombwa ko ukora siporo zigiye zitandukanye, zirimo nko gukina umupira w'amaguru.

Umuntu ufashe ku kuboko kwe kw'iburyo, akaba ari umuntu bigaragara ko afatiyeho igishashi kibamo amazi akonje, kiriya kizwi nka barafu. Kikaba cyifashishwa mu kugabanya ububabare igihe umuntu yagize imvune.

Ibikoresho bigiye bitandukanye muganga ashobora kwifashisha agiye gutanga ubuvuzi bw'ibanze, by'umwihariko ku kibuga cy'imyitozo cyangwa se cy'amarushanwa cyangwa n'ahandi hantu runaka habereye siporo yahuje abantu benshi.

Ubundi igihe cyose umuganga agiye gutanga ubuvuzi by'umwihariko nko ku kibuga cy'umupira w'amaguru, uzabona afite igikapu kinini kandi ibi bikapu ibyinshi bikunze kuba bifite ibara ry'umutuku, bisobanura amaraso. Haba harimo imiti yakifashishwa atanga ubutabazi bw'ibanze.

Amacupa atandukanye ubona ko ari amacupa abitswemo imiti gakondo, ayo macupa yose akaba acuruzwa n'ikigo gishinzwe gutanga iyi miti iba yaratunganyijwe mu buryo gakondo, by'umwihariko iyakozwe mu gikakarubamba.

Urusobe rw'ibimera bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora cyangwa se gutunganya imiti ya gakondo ivura indwara nyinshi.

Amacupa yose akozwe mu buryo bumwe, yanditseho n'ijambo rimwe ry'Icyongereza riri mu mabara y'umukara ariko rikaba ritagaragara neza, yose akaba arimo imiti ya gakondo.

Ibimera bitandukanye biri mu mafoto agera muri atandatu, ndetse akaba ari amafoto agenda abigaragaza mu buryo butandukanye, bikaba byifashishwa mu kuvura indwara ariko hakoreshejwe uburyo gakondo.

Umuti uri mu icupa, iryo cupa rikaba ari iry'umweru, rikaba ripfundikijwe umupfundikizo w'ubururu, rikaba ryanditseho serumu, bigaragaza ko ari wa muti utuma umuntu agira uburyo afashwamo na wo.

Umuti ukozwe mu gikakarubamba witwa "shampo", ukaba ari umuti wifashishwa mu kumesa mu mutwe ndetse ukaba uvura imvuvu n'ibihushi.

Agacupa kari mu ibara ry'ubururu, gapfundikijwe umupfundikizo mwiza cyane nawo w'ubururu, hakaba hari n'akandi gacupa nanone kagufiya kari mu ibara ry'umweru, gafite umupfundikizo w'ubururu, hakaba harimo imiti igabanya ibibazo by'uruhu.

Umuravumba ni kimwe mu bikoresho cyangwa se ibimera byifashishwa mu gukora imiti itandukanye ya gakondo. Iki kimera kizwiho gukorwamo imiti ivura mu nda, indwara z'ubuhumekero, n'iz'uruhu.

Imiti itandukanye iri mu macupa, ikaba ari imiti ya gakondo yatunganyijwe n'abaganga bakora ubwo buvuzi, ndetse mu Rwanda hari abo tuzi bamamaye cyane, hari nk'uwitwa Rutangarwamaboko.

Ibimera bitandukanye biteretswe ahantu hameze nko ku nkoko cyangwa ku rutaro cyangwa se iki ngiki abantu benshi bakunze kwita ngo ni intara, hakaba hateretsweho n'ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyo miti ya gakondo.

Ubuvuzi gakondo bwo mu Rwanda bumaze gutera imbere ku kigero gishimishije, ku buryo usanga hari imiti yagiye itunganywa ikabikwa neza ahantu habugenewe ku buryo itakangirika.

Icupa cyangwa se akavido gakozwe mu buryo bwa litiro, kakaba kariho na nimero za telefone umuntu yahamagaraho, kakaba karimo imiti ya gakondo ndetse iyo miti ikaba ivura indwara z'igiye zitandukanye.

Ibyatsi by'umuravumba ni ibyatsi rimwe na rimwe uzasanga nk'umuturage yarabihinze mu gikari iwe kugira ngo ajye abyifashisha mu buryo bworoshye bitamugoye, bitamusabye urugendo kuko birifashishwa cyane mu kuvura indwara zitandukanye utiriwe ujya kwa muganga.

Amacupa abiri arimo imiti yatunganyijwe mu buryo gakond0, iyo miti ikaba ikomoka ku kimera kitwa igikakarubamba nk'uko gishushanyije kuri ayo macupa.

Umuntu yegamye kuri etajeri, etajeri irimo imiti, iyo miti yose ikaba ipfunyitse mu macupa ndetse iyo miti yose ikaba yarakozwe mu buryo gakondo, arimo kuyicuruza ahantu ku muhanda ku isoko.

Ubuvuzi bwa gakondo n'ubuvuzi bukorwa n'umuntu wiyemeje kuko busaba igihe n'umwanya, umuntu ajya gushoroma imiti cyangwa se ibibabi by'ibimera, akaza akabisekura akabitunganya akabibika neza.

Ikimera cyiza cyane kikaba ari ikimera gitoshye kandi ubona ko kimeze neza, kiri ahantu mu gihuru cyifashishwa mu gutanga imiti ya gakondo.

Ibimera byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo aho bafata amababi y'ibimera bitandukanye cyangwa amashami yabyo, bakayajyana bakayatunganya bitewe n'uburyo babigennyemo, hanyuma ikazifashishwa mu kuvura indwara.

Umuntu w'umubyeyi bigaragara ko ari gusoroma ibibabi by'ikimera, icyo kimera kikaba kiri mu rutoki ndetse ubona ko gitoshye cyane, uwo mubyeyi akaba afite n'agasharupe k'umweru yifubitse, akaba afite n'agakapu mu ntoki aratwaramo ibyo bibabi.

Imiti ya gakondo n'ubwo ivura indwara zitandukanye, harimo n'izikomeye ni imiti igoye kuyitegura kuko bisaba ko umuntu agenda agasoroma ibimera cyangwa se amababi yabyo akabizana, akabika, akabisegura, bikuma, akabibika mu macupa yabugenewe.

Agacupa k'umuhondo gateye neza cyane kanditseho amagambo y'icyongereza ndetse ayo magambo akaba agaragaza ikigo cyatunganyije umuti wa gakondo, upfunyitswe muri iryo cupa.

Umuravumba ni igiti giteye ubwoba cyangwa se ikimera gitangaje, kuko kivamo imiti mu buryo bugiye butandukanye, ku buryo ushobora no gufata amashami yacyo ukayatumbika mu mazi mu kirahure, hanyuma ukaza kuyanywa ukaba wakira nk'inkorora cyangwa indi ndwara ifata ubuhumekero.

Umuce cyangwa se umusambi, uteretsweho amabasi n'ibitebo, byose birunzemo imiti igiye itandukanye iri gutegurwa mu buryo gakondo.

Aha ni ku gasozi, ubona ko ari agasozi kariho ibimera bya kimeza bigiye bitandukanye, hakaba hashobora gukurwa imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amacupa menshi cyane ubona ko harimo amagufi ndetse n'amaremare, afite imipfundikizo y'umuhondo n'iy'umweru, ubona ko yose apfunyitsemo imiti yatunganyijwe mu buryo gakondo, ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibimera biri ahantu mu mavaze, ubona ko ari nko muri pikiniyeri cyangwa se akaba ari mu ruhombekero, bikaba ari ibimera birimo nk'umusave kandi byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umuravumba ni umuti ukomeye cyane, iki kimera kikaba kizwiho kuvura indwara zitandukanye rimwe na rimwe bidasabye ko umuntu agitunganya bindi kuko ushobora no gufata amababi yacyo ukayatumbika mu mazi ukanywa ayo mazi ugakira.

Ubuvuzi gakondo buratangaje cyane kubera ko rimwe na rimwe bifashisha n'ibintu bidasanzwe, urugero bashobora kwifashisha ibibabi by' avoka, kandi twebwe tubibona nk'ibintu bisanzwe.

Imiti myinshi cyane ibitswe mu buryo gakondo, yifashishwa mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye, ikaba yaratunganyijwe n'abaganga ba gakondo.

Umuti watunganyijwe neza ndetse ushyirwa mu mufuka munini ndetse kuri uwo mufuka handitse ko harimo ibiro ijana. Akaba ari umuti wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zifata umubiri w'umuntu.

Abantu bigaragaza ko bakunze kugira uruhare mu buvuzi bwa gakondo, bakaba ari abaganga gusa bakaba batwereka ko dushobora kwikorera umuti mu buryo bworoshye, dukoresheje bya bihingwa tubona hirya no hino, urugero nk'indimu na tangawizi.

Ibinini bikorwa mu bimera, bikaba ari binini byiza cyane kandi bifasha umuntu kugira ngo abe yakira nk'indwara runaka.

Igikakarubamba ni ikimera gitangaje, ndetse kikaba cyifashishwa mu gukora imiti ya gakondo igiye itandukanye, abenshi tuzi ko kivura munda, ndetse kikifashishwa mu gukora imiti isigwa ku ruhu, nyamara gikorwamo n'umuti w'amenyo.

Igihe cyose ubonye ahantu hari ibihuru, by'umwihariko hari ibimera bya gakondo cyangwa se bya kimeza, bikaba ari ibimera byifashishwa mu gutanga ubuvuzi gakondo. Uge ubisigasira ubyiteho ubirinde.

Hari imiti ya gakondo igiye itandukanye kandi yakozwe no mu bintu tuzi, urugero nk'imineke, inanasi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Bigaragara ko umuntu ashobora kugira ibibazo by'umugongo, iby'igikanu cyangwa se urutugu, bikaba ari indwara ya pararizi ndetse ibi bikaba bishobora kuvurwa n'umuti ukozwe mu bimera watunganijwe mu buryo gakondo.

Mu bihuru, mu mashyamba hirya no hino uzahasanga ibimera bigiye bitandukanye, gusa harimo ibyinshi byifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo, ibi bimera usanga bikunze kuboneka ahantu hari amashyamba ya kimeza.

Ubuvuzi gakondo bwo mu Rwanda, ni ubuvuzi buteye imbere ndetse bugezweho kuko ntabwo bugikorwa mu kajagari, ni yo mpamvu abaganga biyandikisha mu rugaga rw'abaganga bavura indwara mu buryo gakondo, ndetse bagakoresha ibimera bitandukanye, bavura indwara.

Umusozi bigaragara ko ari umusozi ugwaho imvura kuko ibyatsi by'aho biratoshye kandi biragaragara ko ari umusozi udatuwe bitewe n'imiterere yawo, harimo ibimera byinshi cyane, harimo n'ibyifashishwa mu gukora imiti gakondo.

Igikakarubamba ni kimwe mu bimera byifashishwa n'abaganga gakondo aho bakoramo imiti igiye itandukanye, harimo ivura mu nda, ivura uruhu ndetse n'iyindi itandukanye.

Hari abantu benshi batazi ikimera cyitwa bambuba, nyamara ni ikimera gikunze kuboneka ahantu mutuye cyangwa se ahantu kisanzuye, kikaba ari ikimera cyifashishwa mu kuvura indwara zirimo nk'isereri, umuriro n'ibindi.

Amacupa abiri ashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, akaba ari amacupa apfundikijwe umupfundikizo w'umukara ndetse akaba ari mu ibara ry'umuhondo.

Avoka ni ikimera gikura, ukaba wafata amababi yacyo ukayavanga n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, ukaba wakuramo umuti wo mu buryo gakondo wagufasha.

Ibimera bitandukanye by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti ya gakondo, iyo miti ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Icupa ry'umweru ririmo umuti wa gakondo, ukaba ari umuti watunganyijwe neza kandi uvura indwara zigakira neza cyane.

Isekuru irimo umuhini urambitsemo, hakaba harambitsemo n'ibyatsi bisa nk'ibyumye cyangwa se nk'ibirabye, bikaba biri kwifashishwa mu gukora imiti ya gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ibikarito bitatu ubona ko byanditseho amagambo asa ndetse ari mu mabarasa ndetse ibi bikarita bikaba bibitswemo umuti watunganyijwe mu buryo gakondo, uvura indwara zigiye zitandukanye.

Igisubizo kuri amibe. Ni umuti witwa Reishi watunganijwe mu buryo gakondo, bakaba barimo bawamamaza. Gusa sinzi niba nawizera kuko amibe ni indwara ikomeye cyane. Ariko ho bari kutubwira ko Reishi ari yo yonyine yakiza amibe.

Imiti yo mu buryo bwa gakondo, ni imiti myiza cyane ivura indwara zigiye zitandukanye ndetse ikaba ibikwa mu buryo bugiye butandukanye, hari imiti iba yarakozwe hifashishijwe ibimera ndetse n'ubundi buryo.